Ndi umukobwa wambaye umupira utukura, arimo kuvoma mu ijerekani iri mu ibara ry'umuhondo, ari kuvoma ku ivomero rusange, iruhande rwe hateye ibiti, hari n'inzu yubatse mu mabati.

Icyapa kiri mu ibara ry'ubururu cyanditseho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza, asobanura umuryango mpuzamahanga wita ku burenganzira bw'umwana.

Hari abantu barimo guterura imifuka irimo ibintu kandi iremereye, haragaragaraho abantu babiri bafatanyinje guterura umufuka umwe, bombi bambaye imyenda irimo amabara y'umutuku.

Hari abamama bateruye abana, umwe yambaye agapfukamunwa mu ibara ry'ubururu, ateruye umwana muto, undi yambaye umupira w'icyatsi, yambaye agapfukamunwa k'umukara na we aterura umwana muto.

Umwana w'umukobwa ukiri muto ugaragara mu mwambaro w'ubururu arimo gukaraba intoki. Kimwe mu bikorwa byo kugira isuku no kwirinda indwara ziterwa n'umwanda.

Ni mu nyubako ahari kubera inama, hari ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda, hari n'abantu bitabiriye inama, imbere yabo ku meza hateretse amacupa y'amazi, hakaba hari n'indangururamajwi imbere ya buri muntu.

Ni ahantu mu muhanda w'igitaka, hari abantu benshi, hari umugabo wambaye ingofero y'ubururu n'umupira w'ubururu urimo gutwaza umwana muto ijerekani, hari n'umukobwa wambaye ishati y'umweru urimo kubafotora.

Abantu benshi, bamwe bicaye abandi bahagaze, barimo kwifotoza, bambaye imipira iriri mu ibara ry'umweru, inyuma yaho hari icyapa kiriho ibirango by'Ikigo cy'Igihugu gishinzwe Ubuzima.

Ndi umugore wa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda, yambaye ishati y'ubururu n'amataratara, ari mu gikorwa cyo kumenyekanisha ubuzima bwo mu mutwe.

Abantu benshi bari hamwe, bishimye bafite amabendera y'Igihugu cy'u Rwanda, imbere hari umwana muto w'umuhungu wambaye umupira urimo ibara ry'ubururu.

Umugabo wicaye ahantu mu nzira hasa nabi, wambaye umupira w'umutuku na we yambaye imyenda itameshe n'ahantu yicaye hari imyanda myinshi ikabije, bisa nkaho afite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe.

Mu ivuriro aho bavurira amenyo hari ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu kuvura amenyo, hari aho bakarabira intoki n'utubati babikamo ibikoresho byifashishwa.

muvuririro umurinyi wicaye yambaye itaburiya y'mweru yicaye mu nzu usize amarangi y'umuhondo amufata ibikoresho byo kwa muganga ahantu bavurira amenyo iruhande rwe hari agatanda karirimo ibara ry'icyatsi

Ni umuganga wambaye itaburiya y'ubururu, yambaye n'agapfukamunwa n'udupfukantoki, arimo gutanga ubuvuzi bw'amenyo ku mukobwa wambaye amaherena y'umweru.

Umugabo mukuru wambaye ishati y'ubururu n'amataratara, arimo kugenda afashwe mu kiganza n'umukobwa muto wambaye ishati y'ubururu, bari kugenda mu nzu isize amarangi y'umweru.

Yari umuganga wicaye, wambaye itabu y'umweru, hamwe n'umusaza mukuru, urimo kumufata ibipimo by'umuvuduko w'amaraso ku kuboko kw'ibumoso.

Hari abantu bicaye, bamwe bicaye hasi, abandi bicaye ku dutebe, bose barimo kuganira n'umumama urimo kuboha agatebo akoresheje imigano.

Umumama mukuru wicaye, wambaye umupira uri mu ibara ry'umutuku n'ingofero y'umukara n'amataratara, ari hamwe n'umuforomo wambaye imyambaro y'ubururu.

Umugore uhagaze imbere y'abantu benshi afite indangururamajwi, yambaye ishati iri mu ibara ry'icyatsi, iruhande rwe hari icyapa kiri mu ibara ry'umutuku.

Hari umugabo, wambaye ishati y'ubururu n'agapfukamunwa, arimo guterwa urukingo n'umugabo wambaye ishati y'umweru n'ingofero, na we yambaye agapfukamunwa k'umweru.

Hari icyapa kigaragaza umunsi mpuzamahanga wahariwe kurwanya diyabete, hari n'ifoto y'inzu nziza cyane yo mu mujyi wa Kigali, hari n'umwana w'umukobwa ufite agahinda.

Icyumba kibikwamo imiti yo kwa muganga bifashishwa mu kuvura abantu, hari utubati turimo imiti y'amoko atandukanye.

Hari inyubako yubatse n'amatafari ahiye n'umutuku, ikaba isize n'amarangi y'umuhondo, imbere hakaba hari umuntu wambaye ishati y'icyatsi. Iyo nzu ikorerwamo kubyaza abagore.

Mu ivuriro kwa muganga mu cyumba abarwayi baryamamo, harimo ibitanda hakabamo n'inzitiramibu, inzu ifite amarido y'ubururu, inzitiramibu z'umweru, harimo n'umuforomo.

Kwa muganga mu cyumba cy'abarwayi. Harimo ibitanda abarwayi baryamaho, birimo umuganga wambaye itaburiya y'umweru, uri kuganira n'umurwayi wambaye ingofero y'umukara. Hafi hari undi murwayi wambaye ishati y'umweru.

Hari icyapa kigaragaza ibikorerwa mu bitaro bya gisirikare cy'u Rwanda, iruhande rw'icyapa hari umuhanda ugana ku nyubako, inyubako yubatswe mu matafari ahiye atukura, isakaje amabati, isize n'amarangi y'umweru.

Mu ivuriro ahabikwa imiti ikoreshwa mu buvuzi, hari utubati tubitsemo imiti ndetse n'inshinge byifashishwa mu kuvura abantu.

Ni ivuriro kwa muganga, ahari igikoresho cyifashishwa mu kureba mu mubiri mo imbere. Ni icyumba gisize amarangi y'umweru, harimo n'utubati tubikwamo ibikoresho byifashishwa kwa muganga.

Mu ivuriro hari inzu nziza cyane isize amarangi atandukanye, ku nkuta hari n'amatara meza, ku gisenge harimo n'udutebe turimo dufite amabara atandukanye.

Mu ivuriro kwa muganga aho umuforomo arimo gufata umwana ibipimo by'umuvuduko w'amaraso, umuforomo yambaye itaburiya y'umweru n'agapfukamunwa, umwana yambaye ishati y'umweru.

Mu ivuriro, umuforomo wambaye itaburiya y'umukara ari kureba muri mudasobwa, irimo igishushanyo cy'umutima, ari mu nzu ifite amarido ari mu ibara ry'umweru.

Inyubako z'ivuriro, hari abantu batatu bari mu kayira bari kuva kuri imwe muri izo nyubako z'amavuriro, zifite amarangi y'umweru n'amabati atukura, izindi nyubako zifite amakoro yo mu birunga.

Ibikoresho by'ikoranabuhanga harimo mudasobwa n'ibindi, hariho umugore wicaye uri kuvugira kuri telefone itagendanwa.

Hari umuganga wambaye itaburiya y'ubururu, arimo gufasha umuntu gukora imyitozo ngororamubiri, uyu muntu araryamye yambaye ipantaro y'umukara.

Hari umukobwa wicaye wambaye imyambaro y'umukara n'inkweto z'umweru, arimo gukora imyitozo ngororamubiri, iruhande rwe hari icupa riteretse hasi.

Umusore wambaye isengeri y'umukara n'ikabutura y'umukara, urimo gukora imyitozo ngororamubiri, mu cyumba gisize amarangi y'umweru, akaba ari gukora imyitozo ngororamubiri, ku mukeka usa n'umukara.

Ku ruhande rumwe hari amasahani ariho ibyo kurya, imbuto n'imboga by'amoko atandukanye, ku rundi ruhande hari ibikoresho byifashishwa mu myitozo ngororamubiri ndetse hari n'icupa ry'amazi.

Icupa ririmo umuti gakondo witwa umuravumba, uvura umutwe, inkorora no kubabara mu myanya y'ubuhumekero, iri cupa rifite umufuniko uri mu ibara ry'icyatsi ndetse n'icyapa cyanditseho amagambo kiri mu ibara ry'icyatsi.